Abantu benshi bose bicaye; umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu. Harimo abambaye impuzangano y'igisirikare cy'u Rwanda, undi impuzangano y'igiporisi cy'u Rwanda ikigo gishinzwe umutekano wo mu muhanda, hariho icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ikigo kinini cyane cyubatse inyuma hazengurutseho urugo ruteye irangi ry'umweru hejuru hariho ibyuma amatara yakamo ibiti birimo imbere. Inyuma y'aho hariho indabo zihateye, igiti kiriho hejuru insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi nyinshi cyane.

Ipironi nini cyaney'umuriro w'amashanyarazi, harimo abenjennyeri. Abantu bashinzwe kubaka ibyo bintu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bose bambaye imyenda yo mu kazi, hejuru ingofero na zo zose zisa zo mu kazi, zirinda ko hari ikintu cyabakubita mu mutwe.

Abantu benshi harimo abahagaze, abari ku murongo, bose bakaba harimo abambaye imyenda isa y'umweru, ubupfukamunwa bw'imikara, abagahaze ku mirongo barimo kugenda batanga ibyo kurya.

Umuntu umwe, babiri umwe ni umusaza urimo gutanga ikarine, yicaye mu kagare k'abamugaye. Undi arimo kumufasha ariko agaragara ikiganza cyonyine, hariho intebe iticayeho umuntu yegamirwa.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka zirimo kugendamo, ku ruhande rwo hakurya hariyo ibiti binini cyane, uruzitiro ruzengurutseho rwa supanete, imbere harimo inyubako zigiye zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, moto, igare rihetse umugenzi, umumama uri ku ruhande ufite ibisheke mu ndobo, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini zirimo kugendamo, hakurya hari umunyonzi ufite igare, utwayeho umugenzi, undi ku ruhande rw'abagenzi ugendesha amaguru, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti binini cyane.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru, ifite ibyuma inyuma ipakira imizigo hakaba harimo ibintu byose bisa bapakiyemo, bakaba hejuru barengejeho shitingi ituma ibyo bintu bitatakara mu muhanda, hakurya hari umuntu urimo kugenda n'amaguru ibiti byinshi biri inyuma ye.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, harimo kugendamo abantu n'amaguru abamama, abagabo. Haruguru hari imodoka na moto birimo kugenda, amazuri hakurya y'umuhanda menshi cyane n'ibiti, hakabaho hariho n'ahantu ha amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo, Rambura.

Inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye izigeretse, izitageretse ziteye amarangi atandukanye, mo imbere harimo ibiti binini cyane n'ibitoya, hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngo Remera.

Inyubako nini cyane igeretse ikaba iteyeho irangi hakaba hariho n'ikintu kigaragaza amashusho yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda imipira irimo kubera mu mahanga, imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hasi hariho abantu bahagaze barimo kuganira harimo abakorana na MTN.

Inyubako nini cyane igeretse y'itaje, yubakishije amatafari ahiye n'urugo ruzengurutseho, inyuma yaho hariho ipironi ndende cyane y'umuriro w'amashanyarazi, hariho insinga ziciyeho nini cyane.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane, harimo inzira y'abagenzi mo hagati, kamera zerekana mu mugi mu muhanda uko ibinyabiziga n'abantu bigenda bitandukanye batahurira mu muhanda mo hagati ngo bagongane.